Ni ikirango cy'icyicaro gikuru cy'urwego rw'igihugu rushinzwe ubwiteganyirize hano mu Rwanda, aho iyo nyubako ikorera ndetse ni ndende, ikaba iriho ikirango cyayo imbere.

Icyapa kinini cyamamaza kiriho abadamu b'abazungukazi, bose bafite imisatsi minini igiye inyuma, umwe afite iy'umukara undi irasa igitaka, hari uwambaye agashati k'umukara inyuma yabo hari imodoka nini y'umutuku.

Ni icyapa k'ikigo cy'ubwishingizi kigaragaraho igice gito umuntu ufite telefone mu ntoki. Urundi ruhande ruriho amagambo agira ati isezerano ni isezerano yego nibyo ntakindi bisaba kugira nawe ugere ku mushinga w'inzozi zawe.

Icyapa cyamamaza cy'ikigo cy'ubwishingizi kiriho umutwe w'amagambo ugira uti turi kumwe. Gura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'umuryango, hariho ifoto y'umugore n'umugabo ndetse n'abana babiri bari kumwenyura bose.

Icyapa kinini cyamamaza serivisi zijyanye n'ubwishingizi, kikaba kimanitse hejuru mu kirere, kigizwe n'icyuma cy'umuzenguruko w'umubyimba munini kiriho amagambo ndetse n'umubare mirongo ine na gatanu.

Icyapa kinini cyamamaza kigizwe n'ibice bibiri. Kimwe kiri ku ruhande rumwe, ikindi ku rwo hirya. Kiri ku mubyimba w'icyuma kizengurutsa, kinini n'ibindi bigishashamikiyeho ibyo cyicayeho.

N'icyapa cyamamaza ibijyanye n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi hano mu rwanda kikaba kiriho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga hariho kandi umukobwa uhagaze wambaye ikote rirerire uri kumwenyura.

Icyapa kinini cyamamaza k'ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano mu rwanda, aho akazu kacyo kamwe kariho ipikipiki ihagaze iriho umumotari wikwije wambaye imikara, munsi gato naho hari imodoka nshyashya.

Ni icyapa cyo kwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi kiriho umukobwa w'umubaji ufite iranda mu ntoki akaba ari kumwenyura, imisatsi ye ni miremire iragana inyuma yambaye akantu k'umukara .

Icyapa kinini cyamamaza ibijyanye n'bwishingizi kiri iruhande rwumuhanda gikikijwe nurupangu rwumukara kuri cyo hari ifoto nini yumukobwa wambaye umupira utukura ufite imisatsi miremire igiye inyuma.

Ni icyapa kinini cyamamaza, gifite icyuma gihagaze cy'uruziga cy'umubyimba munini. Hariho ifoto y'abazungu babiri umwe k'uruhande rumwe undi k'urundi, bose bambaye amakoti y'umukara hagati yabo harimo ipikipiki ndetse ku mpande hari imodoka ebyiri.

Icyapa cyamamaza cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano m'u rwanda cyitwa sonarwa hariho ifoto nini y'umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse wogoshe neza akaba ari kumwenyura afite aga karuvati k'umukara.

Icyapa kinini cyamamaza, kigizwe n'amagambo, imibare, biyizengurutse. Hejuru hari umweru n'umutuku, ndetse muri cyo hagati hari imodoka iri imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Icyapa cyamamaza cy'ubwishingizi bw'inkoko hari akaziga karimo udushwi turi gutoratora, naho hepfo hari amasake ndetse n'inkoko kazi nini ziri ku murongo z'itamba tamba.

N'icyapa kinini cyamamaza ibikorwa by'ikigo cy'ubwishingizi gifite umutwe w'amagambo ugira uti ungukirwa. Hagati muri cyo harimo umugore ufite ishakoshi irimo ibyo amaze guhahiramo, ndetse n'undi uri kugenda asunika akagare karimo imbuto.

Hasi ku makaro, mu kayira nyabagendwa kari mu nyubako, haragaragaraho ikirango cy'ikigo gishinzwe ubwishingizi hano mu Rwanda, kihakorera kizwi nka sonerwa, mu kirango cyacyo kirimo ibirenge bibiri bitambuka.

Amamodoka menshi ashoreranye mu muhanda, agaragara nk'acucitse. Iruhande rwayo hari inyubako ry'amagorofa menshi ndende, iriho icyapa kinini cy'umukobwa wakenyeye, wambaye agasengeri k'umweru, uri gushayaya.

Ni icyapa k'ikigo cy'ubwishingizi, aho hagaragaraho amatungo amagufi ndetse n'amaremare, ahabanza hari inka, ahakurikira hari inkoko, munsi hari ingurube, gitangizwa n'amagambo agira uti" urumve mworozi.

Mu ishusho ya telefone hagati hose harasa umukara ndetse n'amagambo y'umweru yanditsemo, hari uturango twerekana ko iyi telefone irimo interineti ndetse n'ibindi byinshi, ikaba igaragaza ko turi ku isaha mirongo ine ni itanu.

Iruhande rw'umuhanda hari abantu barimo batambuka barimo umugabo ufite imisego y'amabara y'umutuku, umweru n'umukara, ndetse n'uwo bari kumwe ufite imyenda mu ntoki hari umudamu wambaye igitenge uri hirya yabo.

Icyuma gitambitse kimanitseho imyenda iri ku murongo, yiganjemo iy'umukara ndetse n'indi y'amabara, hari umwe ugaragaza urutugu rwawo ,nkaho ari umwe ukorerwa mu Rwanda, izwi nka medinirwanda.

Ni mu isoko ry'imyenda rigaragaramo iri mu byiciro bitandukanye, igiye ipanze. Imbere hari ipanze y'imipira, itandukanye, ku ruhande rwayo hari igishushanyo kirimo umupira w'amaboko maremare.

Mu ishusho ya terefone ngendanwa hagati harimo imipira iri mu isoko, aho iri ku murongo imanitse ahabugenewe. Hari kandi amasaha agaragara hejuru, i saa saba n'iminota makumyabiri n'itatu.

Ni imbuga nini ihagazemo ibinyabiziga bitandukanye, yaba ibinini ndetse n'ibito. Ikiri imbere kigaragara, ni igishinzwe gutwara abantu rusange, gifite amabara y'umweru, gisa neza.

Ni ikinyabiziga gishyashya kitagaragara inyuma, ahubwo ishusho yacyo ni iy'imbere, ndetse kiracyafunitse amashashi, yaba ahakiyobora, ndetse no mu ntebe abantu bicaramo, kiragaragara neza.

Abagabo babiri bahagaze uwo kuhande rumwe yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati iciye amaboko, afite isaha ku kaboko k'ibumoso. Yambaye agapfukamunwa ndetse undi ni ishati y'ubururu, inkweto z'umukara n'umweru, inyuma yabo hari imodoka.

Imodoka nshyashya y'umweru idafite uyicayemo, iri mu mbuga ishashemo amabuye. Imbere yayo hari abagabo babiri bafashe ku gifunguzo kinini nk'ikimenyetso cyo kuyihererekanya.

Imodoka nshyashya y'umukara ifite amatara y'umutuku ndetse n'ikirango cy'ubururu, ikaba iri mu nzira igenda, hirya yaho gato, hari ibindi binyabiziga bihahagaze birimo akazu k'ubururu kari iruhande rwabyo.

Imodoka nshyashya ihagaze mu mbuga kumwe n'ibindi binyabiziga. Irasa umukara ndetse ikirango cyayo cyanditseho Kigali karase maketi. Iruhande rwayo hari indi itagaragara neza y'umweru.

Uwo kuruhande rumwe yambaye ishati y'umweru, inkweto nazo zisa gutyo n'ipantaro y'umukara akaboko kamwe gafashe ku mufuka akandi k'urufunguzo runini ahagararanye n'ufite urupapuro mu ntoki inyuma yabo hari ikinyabiziga gishya.

Ibiganza bibiri birimo inote nkeya zitagaragara inahamu Rwanda zikaba arizo mu mahanga, imwe ryanditseho mirongo itanu, munsi hari akantu babikamo ibiceri ukwabyo bigiye bitandukanye, ndetse hagaragara na mudasobwa.

Inoti y'amafaranga y'u Rwanda igihumbi iragaragara imbere ndetse n'inyuma hayo, hejuru habanza haragaragara amazu afatanye agenda yinjiranamo, ku ruhande hari intore iri guca umugara, naho iyo munsi iragaragaraho inkende.

Ni ibiceri bibiri biteretse ku meza bikaba byaratangiye gukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka ibihumbi bibiri n'icyenda, kimwe ni icy'amafaranga atanu ikindi ni icya makumyabiri. Byose biri kugaragara aho bakunze kwita ku ishaka.

Ni umugabo ufite urupapuro mu kiganza cy'ibumoso, ndetse ako kaboko kariho isaha. Yambaye ikoti ry'umukara, akaba yicaye mu kigo cy'imari gishinzwe kubikirizwamo no kubikuzwa amafaranga, imbere ye hari mudasobwa n'akuma kabara amafaranga.

Ni inote yakoreshwaga hamberewe mu gihugu cy'u Rwanda aho yanditseho ngo amafaranga iriho umudamu uhetse umwana, bakaba barakundaga kuyita ngo ni Nyiraneza ahetse Rubaduka ni iy'ijana.

Ni ikigo gitanga serivisi z'imari yaba kubika no kubikura amafaranga abantu bari kukigana batonze umurongo bategereje kwakirwa imbere muri cyo ntago ababakira bari kugaragara ariko hari kubonekamo mudasobwa .

Ni umugabo uhagaze mu biro, akaba ari mu kigo cy'imari, mu ntoki ye afite inoti nyinshi cyane ndetse no ku meza hari izindi zitari kugaragara, iruhande rwe rumwe ruriho akamashini kabara amafaranga, urundi ruriho mudasobwa.

Ni akuma gashinzwe kubara amafaranga, umugabo arahagaze isura ye ntigaragara ikiganza kimwe gifashe kuri ko, imbere ye hari ameza ateretseho inote nyinshi cyane zitagaragara hano mu gihugu, imwe icuritse iragaragaraho isura y'umugabo.

Ubusanzwe akamwa ku nka ariko ababishatse bayacisha mu nganda bakayatunganya ndetse bakayashyira mu bikoresho bitandukanye ndavuga amata, hari ari mu tubido twa pulasitike, ibikombe n'ibindi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwo gutanga ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, ku ntebe hicaye umudamu uri kwakira igikombe kirimo icyayi iruhande rwe hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ingofero itamugaragaza isura neza.

Naho bacubise amata akagega gato ko kuyabikamo gateretseho akantu karimo utwo kwihana igice gito cy'ameza kiriho indobo y'umweru ndetse n'akandi kantu karimo ishashi amata.

Umugati ni ikiribwa gikorwa mu ifarine gikunze kwifashishwa mu ifunguro rya mu gitondo, abenshi bawusunikisha icyayi cyangwa igikoma ndetse abifite bakanawusiga utuntu tuwuryoshya .

Yicaye mu ntebe y'umweru afite akabido mu ntoki, ikiganza ke kiri ku mashini ifungura amata, ari kujya mu ijage, aho agiye kuyaha abaje bamugana, ni aho bayacururiza.

Amata ni ikinyobwa gikunzwe na benshi ku isi yaba mu mahanga ndetse n'inaha mu rwanda, aya ari ku meza ari mu byiciro bitandukanye yaba ari mu tubido mu makarito ndetse n'andi atandukanye.

Abana babiri bicaye bose bafite ibikombe by'amata bari kuyanywa ndetse n'ibyo gufatisha ku meza y'umweru hateretseho utubido, n'undi mugabo uhagaze imbere wambaye umupira w'umweru hirya gato hari undi muntu utagaragara.

Ni inzu icururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, aho abantu bashonje baza bakicara bakabihabwa. Hari ameza y'umweru ndetse n'intebe, ateretseho ijage y'ubururu. Hahagazemo umugabo wakira abantu.

Umutaka ugaragara igice gito w'umutuku munsi yawo hari intebe imwe ndetse n'ameza y'uruziga nayo agaragara igice, imbere hari iduka ricuruza amata rifite icyapa kinini cyanditseho inyange.

Ni ameza ateretseho agakarito kamwe k'umuhondo n'akandi kayo kariho ibendera ritoya, ndetse iruhande rwawo hari icyuma gishinzwe gukonjesha ibinyobwa n'ibiribwa dore ko aho hafi hari n'ibinyobwa bidasembutse.

N'umuryango ugaragaza ibikorwa bikorerwamo imbere, hariho icyapa kinini kiriho amata apfunditse mu tubido, mu dukarito n'ahandi; ku ruhande hariho inka y'umukara n'umweru, ndetse n'imbere hari aho bayacururiza.

Ni amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ariko ni uburyo bukoreshwa muri terefone ngendanwa iyo umuntu agiye kohereza kugura cyangwa kwishyura ibintu runaka yifashishije umuyoboro wa telefone.

Nicyapa cyamamaza ibijyanye n'itumanaho cyane cyane mu kugura ama inite yo gukoresha kuri murandasi, kiriho ikiganza gifashe telefone m’intoki ikaba igaragaramo uburyo buhitamo iyo ugiye kugura.

Ni icyapa cyamamaza cya sosiyete ikora ubucuruzi bujyanye n'itumanaho hano mu rwanda gisanzwe kirangwa aha n'ibara ritukura ndetse n'umweru, cyitwa eyateri harimo amagambo ndetse n'imibare ibanzirizwa n'akanyenyeri.

Ni ikiganza cy'umuzungu gifashe telefone mu ntoki iriho ishusho ntoya y'umuntu urambuye amaboko hari amabara y'icyatsi ndetse ikaba igaragaza ko turi ku isa sita n'iminota cumi n'icyenda.

Ni ahantu hatangirwa serivisi hari intebe zigaragara nta muntu n'umwe uzicayemo, hari uhagazemo mu imbere hari uri kumwakira bakaba batandukanyijwe hagati yabo n'ikirahure akaba ari inzu itanga serivisi zijyanye n'imari.

Ikiganza kigaragara igice gifite telefoni mu ntoki ngendanwa, ikaba hejuru hagaragara agahondo gake karimo sosiyete icuruza ibijyanye n'itumanaho ka emutiyene, hari andi magambo agiye arimo.

Ni icyapa cyamamaza kiriho abagabo babiri bafatanye ku rutugu bari kugenda baganira, umwe yambaye ikote ry'umukara undi afite akantu mu ijosi, afite terefone mu ntoki ari kugenda yereka mugenzi we.

Icyapa kinini cyamamaza kikaba gifite ibara ry'umweru, hejuru umuguni y'ibumoso hagaragaraho sosiyete imwe icuruza ibijyanye n'itumanaho hano mu Rwanda, hariho ishusho y'umugabo ufite telefone nini yanditseho ngo ubonye amafaranga magana atanu kuri konti yawe.

Imbonerahamwe iri ku rupapuro rw'umweru igiye iciyemo imirongo y'umukara ndetse n'imibare igaragaza uburyo amafaranga y'i burayi avunjishwa, umurongo wa mbere uriho ibice mirongo ine bivunjwa umunani n'ibice mirongo itanu, buri kazu kagiye karimo umubare.

Ni icyapa kiri mu ishusho y'ubururu n'amagambo y'umuhondo, kigaragaza ko cyamamaza ibijyanye no kohereza ndetse no kwakira amafaranga. Ugekerekereje mu Kinyarwanda ijambo ribanza ritangizwa n'umubare gatatu, rikagira riti uburyo butatu bwo kohereza amafaranga.

Ni inyandiko iri mudasobwa igaragara ko ari iy'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu buryo bwayo hari ikirangantego cy'igihugu, naho ibumoso hari amagambo aranga urwo rwego ndetse n'ibendera rito riri ku ruhande.

Ni mudasobwa irimo inyandiko y’ikigo cy’igihugu gishinzwe imisoro n’amahoro, nkuko ikirango kiri mu nguni n’iburyo hejuru kibigaragaza ibumoso. Hakaba ikirangantego cy’igihugu harimo imbonerahamwe igizwe n’amatariki ya mbere z’ukwa mbere bibiri na makumyabiri na kabiri.

Ni inyandiko iri muri mudasobwa iriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, ndetse iriho imbonerahamwe irimo amatariki hagati hari mirongo itatu n'imwe z'ukwawa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kabiri ahakurikira hakaba enye z'u kuwa gatatu uwo mwaka n'ubundi.

Inyandiko iri muri mudasobwa, irimo imbonerahamwe ndetse ikaba ari iy'urwego rw'igihugu rushinzwe imisoro Rwanda reveni otoriti, hejuru ibumoso hari ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, naho iburyo hari ikirango cy'urwo rwe

Inyandiko iri muri mudasobwa ibanzirizwa n'ikirangantego cy'u rwanda ivuga hari imbonerahamwe iriho amatariki ndetse n'imyaka. Ahabanza hari iya mbere z'ukwa mbere bibiri na cumi na karindwi ahakurikira hari mirongo itatu z'ukwa cumi na kabiri uwo mwaka.

Icumi, makumyabiri, mirongo itanu. Ni mibare igaragara ku note zitandukanye, ziri ahangaha, zifashishwa mu bihugu by'Uburayi. Imwe iri imbere iriho inyubako y'umuturirwa.

Abazungu babiri batagaragara ibiganza byabo byombi bifashe ku noti. Imwe ishushanyijeho ifoto y’umugabo, ndetse akaba ari angana n’ijana. Indi nayo ni ikoreshwa muri Amerika, nayo iriho ishusho y’umugabo.

Ni icyapa cyamamaza ibijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga gifite umutwe w'amagambo ugira uti dukomere, haragaragaraho ibihugu byinshi bitandukanye by'imigabane yose birimo Amerika, Ubwami bw'abongereza, Uburayi, Ositiraliya n'ibindi.

Ni inote y'atanu itari iy'inaha mu rwanda kuko ariyo mu gihugu cy'u buhinde igiye igerekeranyije n'izindi zigenda zinjiranamo, imbere kuri yo hari umukambwe ugeze mu za bukuru wambaye amadarubindi.

Buri gihugu gifite uburyo gikoramo amafaranga yacyo ndetse n'ibirango biyaranga, iyi niote ikoreshwa mu gihugu cy' buhinde iriho ishusho y'umugabo w'umukambwe wambaye amadarubindi akaba ari iya magana abiri.

Ni ibiganza bifite inoti nyinshi mu ntoki zitagaragara hano mu Rwanda, zifashishwa ku mugabane wa Amerika ndetse no mu Burayi. Hari inote zipanze ukwazo, ziriho makumyabiri n'izindi ziri ku ruhande z'ijana.

Ikiganza kitagaragara gifite inoti nyinshi ziri mu byiciro bitandatu, nshyashya zifunitseho utuntu tw'umweru, zikaba zikoreshwa mu bihugu by'amahanga, inyinshi zikaba zanditseho umubare ibihumbi bibiri.

Ni inote nyinshi ziyanyagiye ziri mu mabara atandukanye ndetse n'imibare yazo ikaba idahura, ziriho umugabo wambaye amadarubindi ugeze mu zabukuru zikaba zifashishwa mu gihugu cy'u Buhinde.

Umwe afite inoti mu ntoki ari kuzibara ariko isura ye ntigaragara cyo kimwe n'undi begeranye wambaye ishati y'umweru we akaba ari kuzicuma, hari izindi ziteretse ku meza zikoreshwa mu gihugu cyo muri Amerika.

Ni inoti nyinshi zigiye zinjiranamo zifatanye, zikoreshwa ku mugabane w’Uburayi, kuri zo hariho inyubako y’igorofa ndende ndetse n’utunyenyeri duto duto, ku ruhande hari umweru wanditsemo magana atanu.

Ni imborahamwe ndende itondetseho amazina y'ibihugu ndetse n'imibare iri imbere, muri byo harimo Amerika, Uburayi, Ubwongereza, Ubuyapani, Singapuru, Hongo Kongo. Ositiraliya, Niyu Zilande n'ibindi bikurikira.

Akaboko k'iburyo kariho ikiganza kiriho impeta akandi kambaye isaha, afite inote mu ntoki zakingirije isura ye ikaba itari kugaragara neza, muri zo hari iya magana atanu zikaba atarizo mu Rwanda.

Ikiganza kimwe gifashe inote mu buryo bubiri aho zitandukanywa n'urutoki ruzirimo hagati, hari kandi impeta iri kuri zo ndetse inoti ziriho abagabo babiri bashushanyijeho.

Ibiganza by'umuzungu bifashe inoti zigenda zinjiranamo zidakoreshwa inaha mu Rwanda ziriho ifoto y'umugabo n'ubwo intoki zifashe zimukingirije, zose zikaba ari iz'ijana.

Ni ibiganza bibiri, ariko bitari iby'umuntu umwe, byose bihuriye ku mafaranga. Kimwe ni icy'umwirabura, ikindi kigaragara nk'icy'umuzungu cyangwa se umunyaziya, bikaba bifashe amafaranga adakoreshwa hano mu Rwanda.

Ni imborahamwe iri mu rurimi rw'amahanga igaragaza uburyo isoko ry'ivunjisha rihagaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, taliki zirindwi z'ukwa gatatu, hagaragaraho ibihugu byinshi bitandukanye birimo Amerika, Uburayi n'ibindi.

Inoti imwe yo mu gihugu cy'ubuhinde iriho umukambwe wambaye amadarubindi ikaba ari iyijana, iri mu mabara atandukanye aho uruhande rumwe ruriho umweru urwo hirya rukabaho ubururu hari n'ibindi biceri bitatu biriho kimwe gifite ikiganza

Ni inyubako ifite umuryango muto ufunguye imbere yawo hari inkweto zakuwemo bigaragara ko kwinjiramo ari ugukuramo inkweto n'imbere harimo umuntu utari kugaragara neza ufite igitabo mu ntoki ndetse n'ibindi biteretse ku meza.

Ni umuryango ufunzwe ukorerwamo hejuru harimo icyapa kiranga ibikorerwamo mo imbere, iruhande rwawo haparitse ikinyabiziga cy'umukara ndetse inkuta zawo zigizwe n'umweru n'umutuku.

Ni abantu bane bahagaze barimo umukobwa umwe wambaye ikanzu y'umukara ufite imisatsi miremire imanutse, harimo abagabo babiri hagati yabo hari umwana uri guhabwa igihembo cy'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni makumyabiri.

Ni amakaro ashashe hasi afite mpandenye ariko zitarebana ndetse akaba ari mu mbuga y'inzu ifite imiryango ifunguye y'icyatsi n'amabara y'umweru, mo imbere hakaba hakorerwamo ibijyanye no gutanga amafaranga.

Inyubako nziza ifite igisenge ibikuta ndetse n'amakaro by'umweru, haragaragaraho umuntu w'umuzungu ufite igikapu kinini imbere ye wambaye agapira gatukura, mo imbere hari uri kumwakira wambaye ishati y'ubururu.

Ni mapikipiki abiri agaragara ibice bitoya ari mu mbuga iri imbere y'umuryango, uriho icyapa cyamamaza cy'umudamu ufite amafaranga mu ntoki ndetse akaba ari uwo mu gihugu cy'Ubuhinde.

Umugabo w'umuzungu utagaragara neza isura uteze ibiganza byombi, agiye kwakira amafaranga ari guhabwa n'umuntu. Aya ntago akoresha mu Rwanda nayifashishwa ku mugabane w' Amerika dore ko ariho ikirango cyayo kiriho ishusho y'umuntu ufite imisatsi igi inyuma.

Umuryango w'ikirahure kinini hejuru yawo hari amagambo yandikishije umuhondo mu rurimi rwamahanga, ikaba ikorerwamo serivisi zijyanye no kuvunja cyangwa kuvunjisha amafaranga.

Ni intebe zo mu ruganiriro ziteye mu mbuga, iruhande rw'ikirabyo kitagaragara neza. Ni ebyiri ziri mu cyiciro kimwe zisa, ndetse n'izindi zimeze kimwe, zifite n'ameza, zirimo imisego.

Ni intebe ziri hagati mu cyumba, aho zifite ameza y'umweru, n'imisego y'icyatsi, imwe muri zo ntago irebana nazo, ndetse mu mpande hari ibitanda bibiri bishashe bigaragara igice gitoya.

Ameza akoze mu rubaho, ari kumwe n'akandi gato kari ku ruhande, inyuma yayo hari akabati na ko gakoze gutyo, ndetse n'intebe ziteye mu busitani, ebyiri ebyiri zirasa, ndetse n'izindi na zo zimeze kimwe.

Intebe enye zo mu ruriro ndetse n'ameza ari mu ishusho y'uruziga zose zikaba zikoze mu mbaho, ziri iruhande rw'umuhanda uri gucamo ipikipiki ndetse n'ikamyo nini y'umweru idahetse umuzigo.

N'intebe zo mu ruganiriro nziza zikoze mu rubaho rukomeye zikaba hagati hari akameza kanini ndetse n'utundi tuyikikije ifite irangi ry'umweru ikabashashemo amakaro acyeye ndetse hagaragara n'amarido.

Inyubako zigezweho zirangwa no kugira ubwisanzure ndetse n'ibyiciro bitandukanye habamo icyiciro cy'ururiro ndetse n'icyo uruganiriro, hano hari ameza y'urubaho n'intebe esheshatu ziteganye.

Igiti gishobora kwera mu ishyamba kikazavamo ibikorwa bitandukanye, hari abacyubakisha inzu, hari abagikoramo ibindi bikorwa ariko aha hari ameza asa neza abaje mu giti cy'urubaho.

Ni intebe ziri hanze mu mbuga hari ururabyo rutoya rutagaragara, zigiye ziri kumwe n'ameza yazo zikaba zizengurutse mu mwenda w'ubururu zirimo udusego, hirya gato hari umuntu uri kuri terefone wicaye imbere y'inzu.

Ni imbuga nini ishashemo amabuye meza irimbu ry'inyubako ndende mu butambike ndetse ikaba ifite amagorofa abiri, imbere yayo hari utwuma tuyakikije dutangira abantu ngo batagwa hari ubusitani burimo imikindo.

Ni inzu nziza nini ikaba yakira abantu benshi ifite urwogero hejuru rusukuye rusa neza nta muntu urimo ,ariko hejuru yayo hari udutebe abantu bicaramo baruhuka bategereje cyangwa bavuye mu mazi.

Ni icyumba giteguye neza kinini cyagutse kiberamo inama giteyemo intebe ariko nta bantu bazicayemo bigaragara ko icyo gikorwa kigiye kubahabera kitaratangira ku ruhande rumwe ndetse n'imbere hari insakazamashusho .

Ni urwogero ruri rwagati mu mbuga, rukaba nta muntu ururimo, haragaragara ingazi zimanuka zijyamo, naho hejuru, hari intebe abantu bicaramo bavuye koga. Gikikijwe n'imikindo y'imitako ndetse n'inzu nziza.

Ni ahacururiza ibiribwa bitetse, bikaba byaruye biri mu bisafuriya binini, aho abantu baca ku murongo bagenda barura, nubwo ntawe ugaragara nk'uri kwarura ariko hirya gato hari abantu batagaragara, bicaye ku meza bashyikiriye amafunguro.

Ni inyubako igeretse mu mbuga yayo hari ikibumbano giteretsemo ururabyo n'izindi ziyikikije ifite agapangu munsi karimo imiseke ndetse n'ibindi bigakikije.

Ni inzu nini ifite ibikuta by'umuhondo, utwuma tugiye tuyigaragiye ndetse n'ibirahuri birasa umukara, amatara acanye impande n'impande. Mu mbuga yayo, hari intebe zigiye ziri mu byiciro bitandukanye ziri mu ruziga.

Ni intebe ziteye mu matsinda ndetse n'ameza ariho ibiribwa n'ibinyobwa zikaba zisa umweru hakomeza hateretseho amasahani ibikombe by'ibyayi zikaba zitondetse ku murongo ariko nta bantu bazicayemo hagaragara n'imitako.

Urwogero rusa neza rw'ubururu rukikijwe n'udutebe abantu baruhukiramo ndetse n'imitaka iyo bavuyemo; hari utw'umweru dutondetse ku murongo hakurya yarwo hari inyubako iri kuzamuka ariko itaruzura.

Inzu nziza zigezweho zikunze kugira ubwogero hanze, ubu bufite irangi ry'ububuru mo imbere ndetse hari n'ingazi zifasha abantu kumanuka bajya mu mazi n'udutebe bururukiraho iyo bamaze koga, hakurya hari ubusitani buteyemo indabyo.

Ni inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho bw'imiturire ijyanye n'igihe tugezemo mu busitani bwayo hateye umukindo uzwiho kuba igiti cy'umutako ndetse n'intebe ziriho ameza ariko nta bantu bazicayeho mwibaraza hari kwakamo amatara.

Ni inyubako ndende ebyiri ziteganye imwe, ifite amarange y'umweru ndetse hejuru ifashwe n'ibyuma, ikaba iriho icyapa cy'umweru kiriho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga, iteganye n'indi nayo imeze ityo.

Ni inzuzi nini ifite igisenge cy'urwererane ndetse n'amakaro na yo asa gutyo, ifite imiryango y'ibirahure byinshi cyane, ikaba ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi kigaragara hano mu Rwanda, mu myanya yo mu biro nta bantu bicayemo.

Ni ibiro bigaragaraho ikirango cy'ikigo cy'ubwishingizi kimwe hano mu Rwanda, mu ntebe yacyo hegamyemo umugabo wambaye ishati itukura, ipantalo y'umukara, akaba ari kureba muri telefone, imbere ye hari ameza ariko nta muntu urimo, hakaba hari mudasobwa iri iruhande rw'icupa ry'amazi.

Inzu iri ku buso bunini igaragara neza cyane, ikaba iteretse ahantu hirengeye, imbere yayo hari akapa k'ikigo cy'ubwishingizi kigaragara n'inaha mu Rwanda cyitwa purayime inshuwarensi.

Ni ibiti bitatu bigaragara biri hejuru y'urukuta rw'amabuye rugufi ya biri imbere y'inyubako y'igorofa ndende zikunze kwitwa umuturirwa hejuru kuri yo hari amagambo yanditseho ari isonarwa akaba ari ikigo cy'ubwishingizi.

Ni ibiro byicayemo abantu bari ku murongo biganjemo ab'igitsina gore, utumesa twabo turi mu mabara atandukanye ay'ubururu n'umweru twanditseho amagambo y'ururimi rw'amahanga ugenekereje mu Kinyarwanda ni atanga ikaze.

Inyubako ndende igizwe n'inkuta ndetse n'ibirahure, amadirishya amwe arafunze andi arafunguye. Ku muryango ubanza, hakorerwamo ibijyanye nikigo cy'imari naho hejuru gato, ni ibijyanye n'ubwishingizi.

Nii ibiro bigabanyijemo ibyiciro bitatu, inyuma hari akabati karimo ibitabo, ndetse umukobwa w'umuzungu ukingirijwe na mudasobwa, n'ururabo ruri ku meza akikijwe n'utuntu twinshi, hirya gato hari ufite umuntu ari kwakira.

Ni inzu nziza ijyanye n'igihe tugezemo ifite ibikuta bikeye bisize amakaro uruhande rumwe ruriho imbaho, ndetse mu muryango w'injiramo hakurya haragaragara abantu barimo bagira ibyo bakurikirana.

Ni inzu ikoreramo ibikorwa byinshi bitandukanye ariko imiryango yose irafunze igisenge cyayo ni umweru kiriho amatara ari ku murongo, ku madirishya hagiye hometseho ibintu harimo kimwe gishushanyijeho inzu y'amagorofa maremare.

Bicaye ku ntebe z'umukara bakaba bari mu biro ahabanza hari umukobwa wambaye agapira gatukura iruhande rwe ku meza hari mudasobwa. Afite umwakira aho bari kuganira hirya nahoho abagabo babiri umwe ari kwakira undi.

Inzu y'amagorofa maremare igizwe n'imiryango myinshi, hamwe hariho icyapa cy'ikigo cy'ubwishingizi gikorera hano mu rwandya, cyanditse mu rurimi rw'amahanga, ariko ugenekereje mu kinyarwanda, ni Sonarwa ishami rya Kimironko.

Ni umuryango ufunguye mo imbere hatangirwamo serivise zitandukanye zirimo iz'ibigo by'imari, iby'ubwishingizi ndetse n'iz'Irembo, hari kandi iby'Urwego rw'Igihugu rushinzwe Iterambere, hakorerwamo n'ibijyanye n'ubufotozi.

Inzu ijyanye n'icyerekezo ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye ikaba yubakishije ibirahure ndetse n'inkuta z'umuhondo kuri yo hari icyapa kigaragara kiriho abashinzwe gukora ubwishingizi imbere kuri yo hariho ifoto y'umugore n'umugabo n'akana hagati yabo.

Inyubako ndende igizwe n'amagorofa menshi igaragara ko yubakishijwe ibirahuri ahanini harimo utudirishya dufunguye, umuryango wo hasi ukorerwamo ibijyanye n'ubwishingizi nk'uko ibirango bibigaragaza.

Barimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe nziza z'imikara, harimo abambaye amakote ndetse n'ingofero n'amadarubindi, bose bari kumwenyura, ku meza y'uruganiiriro hariho amazi yo kunywa.

Ni icyapa cyamamaza kiriho amagambo agira ati;"Ubu nawe wagira iwawe." Kiriho umuryango ugizwe n'abantu batatu, barimo umugabo, umugore ndetse n'umwana ufite igicurangisho cya gitari mu ntoki ze.

Ni icyapa cyamamaza kiriho amagambo agira ati;" imbere heza hategurwa uyu munsi." Hariho ifoto y'umugangakazi uri kumwenyura wambaye umwambaro ubaranga w'umweru, akaba afite n'akantu k'ibipimo kari mu ijosi.

Ni icyapa kinini k'ikigo k'imari, kikaba gifite ishusho y'umweru, hejuru handitse amagambo ari mu ndimi z'amahanga, hariho ifoto y'umukobwa washyize ikaramu ku mutwe, ufite imisatsi ishambaguritse akaba afite igitabo gitukura mu ntoki.

Amatafarihiye ashashe mu mbuga y'inyubako igaragaza ibirahure byererana, ndetse bikaba birimo amagambo ashushanyije icyats,i nta muntu uri kugaragara mo imbere imiryango yayo irafunze.

Icyapa kinini cyamamaza ibijyanye no guhererekanya amafaranga hifashishijwe telefone, hariho ifoto y'umukobwa wishimye cyane ufitiye telefone mu ntoki wambaye agapira k'umuhondo, ikote ndetse afite igikapu ku rutugu.

Ni umukobwa uhagaze wahurije amaboko mu gituza, yambaye ikote ndetse n'ipantaro bisa, mu imbere harimo agapira k'umukara. Ateze igitenge mu mutwe arareba imbere ye amwenyura.

Ni icyapa kinini cyamamaza ubucuruzi bujyanye n'ibinyabiziga aho kiri mu magambo yo mu rurimi rwa'amahanga, ariho ifoto y'imodoka nshyashya ifite amapine ataragenda ndetse ibyuma byayo biragaragara ko bikiri bishya.

Ni icyapa cyishusho y'umweru kiriho umugabo wazamuye ibipfunsi arabifunga akaba ari kumwenyura, yambaye ishati y'ubururu iriho udupensu tw'umweru, hakaba hari amagambo yanditse uruhande rwe mu rurimi rw'amahanga .

Ari mu iguriro hagati ari kumwenyura, afite imisatsi imanutse imwe igiye inyuma indi imbere, yambaye agapira gatukura akaba afite agacupa mu ntoki, imbere ye hari ibicuruzwa bitandukanye biri hirya no hino.

Ni icyapa kinini kiriho ibara ryiganjemo umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo, kuri cyo hariho akaziga kariho inyubako y'amagorofa igizwe n'imiryango myinshi, umwe muri yo uriho icyapa kigira kiti umutanguha ishami rya Kicukiro.

Ni isoko ririmo ibiribwa bitandukanye, rihagazemo umudamu wakenyeye igitenge ndetse n'undi wambaye iby'umuhondo hirya ye. Hari ibitebo birimo inyanya, imboga, imbuto, imineke n'ibindi.

Ni isoko rinini ricuruza ibijyanye n'imyenda umugabo aratambuka imbere y'umuryango umanitseho imyenda itandukanye yiganjemo iy'abadamu, imbere ye hari undi utegereje kumwakira wambaye ishati y'umukara.

Ni isoko rusange rigaragaramo ibiribwa bitandukanye, hari ibiri mu mabase ndetse n'ibiri mu bindi bintu bishyirwamo ibiribwa, hari umudamu wambaye umwitandiyo n'amadarubindi, akaba afite uruboga mu ntoki.

Ni isoko rinini ryagutse risakaje amabati, ndetse mu bisenge hagizwe n'ibyuma bigaragara, ririmo ibiribwa bitandukanye birimo ibitunguru, inyanya, intoryi, puwavuro n'ibindi, hari abacuruzi n'abaguzi hagati.

Niguriro rya kijyambere ririmo ibicuruzwa byinshi byiza hirya gato hagaragara umuzungu wambaye agapira k'umukara rifite igisenge gifashwe n'icyuma kikaba ari icy'umweru harimo imbuto, imboga n'ibindi.

Ni umuryango uhagazemo abantu batatu n'abandi barimo imbere, iruhande rwabo hari intebe iteretseho ibase, umugabo afite umufuniko w'indobo mu rubavu, imbere yabo hateretse ikiribwa kizwi nk'ibiraha, ari kumwe n'umukobwa uteraruye mwana utagaragara.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bagaragara mu muhanda uri iruhande rw'isoko rya Nyabugogo, risakaje amabati y'ubururu ndetse imbere yaho ari guca abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga.

Ni isoko ry'ibicuruzwa byinshi bitandukanye rigaragaramo karoti nziza ndetse n'inoryi, n'urusenda, hari abadamu bari kuganira bagura ndetse bikaba bibafasha kwiteza imbere, iri risakaje amabati ndetse n'ibisenge by'ibyuma.

Ibirayi biri hanze ndetse n'ibitoki nibyo byiganje mu biri kugaragara muri iri soko ryaremeye mu mbuga. Hari umukecuru ukenyeye igitenge, wifashe inyuma, uje guhaha ndetse hari urujya n'uruza rw'abantu.

Abadamu bakora ubucuruzi buciriritse, mu isoko riri m'imbuga idatwikiriye bari ku murongo bamwe baratanga inyanya, intoryi n'ibindi, hari abaguzi baje babasanga kugira ngo babashe kubakuraho ibicuruzwa.

Ni abantu bakora ubucuruzi buciriritse bukorerwa mu mbuga idatwikiriye bakaba ku murongo bahateretse inyanya, ibitunguru, amashu ndetse n'ibindi hari abaturage bahagaze abari kugenda n'abaza bose bagura ibiribwa.

Ni isoko rusange rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abantu yaba abaguzi ndetse n'abacuruzi, hari ibintu bitandukanye birimo imboga zigizwe n'intoryi, imiteja, karoti, inyanya n'ibindi.

Ni iguriro ririmo abantu benshi gusa haragaragaramo umugabo w'umwarabu wambayege ikanzu ndetse n'ipantaro n'undi mudamu witangiye hari abandi bamuri iruhande bambaye ibitenge ndetse hafi ye hari inanasi.

Ni umugabo wicaye ku gasongabugari, yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro irimo uturongo tw'umweru. Hejuru ye hari ibicuruzwa bijyanye n'imitako, ibyinshi byiganjemo ibikorerwa mu Rwanda birimo uduseke, n'ibikapu bidoze mu gitenge.

Ni ihema rishinze mu nzira y'abanyamaguru rigaragaramo abantu benshi batandukanye biganjemo abambaye imyenda itukura iranga abakozi b'ikigo cy'itumanaho gikorera hano mu Rwanda kizwi nka eyateri.

Ni umuntu wicaye munsi y'ihema ry'umuhondo, yaba hejuru ndetse no ku mpande akaba afite ameza ariho agacupa k'amazi, hejuru ye hahagaze abantu abenshi bari gukanda telefone bashaka serivisi biganjemo ab'igitsina gore.

Ikirango cya sosiyete ishinzwe ibijyanye n'itumanaho igaragaza uburyo bwo kwishyura cyangwa se kugura mu buryo bugezweho, handitseho imibare igaragaza uko umuntu yishyura iyo amaze guhaha.

Ni abantu batatu bari kuramukanya umwe ni umusaza wambaye imyenda isa, aho yahuje ikiganza n'undi mukobwa ufite agapira karimo uturongongo, n'undi mugabo w'ishati y'umweru bari imbere y'akazu gacuruza ibijyanye n'itumanaho hano mu Rwanda gatukura.

Ni akazu k'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho hano mu Rwanda amadirisha yako arafunguye kari mu mabara y'umuhondo imbere hari abantu baje bakagana kugira ngo bahakure serivisi gatanga ,hari umukobwa wambaye umupira utukura uri ku ruhande rwo hirya n'undi uri kurwo hino .

N'icyapa cy'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho hano mu Rwanda, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo. Kiramamaza ibijyanye n'uburyo bwo kwishyura, kubitsa, no kubikuza amafaranga.

Ni nzu igeretse, ikaba ifite imiryango itondetse ku murongo yose y'umweru, hari umuntu uri gutambuka agenda agana ku kazu gato gahari gacururizamo ibijyanye n'itumanaho kari mu ibara ry'umuhondo.

Ni abakobwa batatu bahagararanye bose bari kumwenyura bareba imbere yabo ,uwo hagati muri bo yambaye amadarubindi ndetse n'ingofero afite n'agakapu k'urutugu inyuma yabo hari utuzu turimo ibirango by'abakora ibinyobwa bisembuye hano mu Rwanda.

Ipikipiki izwiho gutwara ibintu ibijyana mu ngo cyangwa se aho abantu bayitumaho ibintu ikabibazanira. Umugabo wari uyitwaye yayivuyeho yambaye ingofero irinda umanuka mu mutwe ndetse ari guhererekanya ibyo azanye n'umukobwa.

Ishusho ya telefone irimo ibintu bitandukanye hejuru gato ku ruhande rw'iburyo ari kugaragaza umuyoboro w'ihuzanzira ndetse bikaba bigaragara ko n'umuriro ugiye gushiramo urundi ruhande rugaragaza ko turi ku i saasita n'iminota itandatu.

Icyapa cyamamaza kinini kiriho ibintu bitandukanye birimo igicupa kinini cy'amazi meza yo kunywa, ndetse n'ipikipiki ifite akantu hejuru gatwarwamo ibintu ifite kandi kuruhande igicanisho kizwi nka gaze cy'ubururu.

Ni ishusho iri muri telefone yamamaza ubucuruzi bukorerwa kuri murandasi aho harimo amagambo agira ati iduka online kigali Rwanda ubu ni ubucuruzi bugezweho aho utumiza ikintu kikagusanga aho wibereye .

Ni icyapa cyamamaza abacuruza ibintu bitandukanye kiri mu rurimi rw'amahanga cyanditseho ngo famiye butike, kikaba kirimo imbuto zitandukanye zirimo inanasi, imboga z'amashu, ibitoki n'ibindi.

Ipikipiki ihagaze itariho uyitwaye, ifite amabara y'umutuku, ndetse aho bicarira ni umukara. Yikoreye akuma gatwara ibintu aho babikeneye, izi zikunze kwifashishwa mu kugeza ibicuruzwa ku bantu aho bibereye.

Icyapa kinini cyamamaza kiriho ibikoresho bitandukanye hariho ipikipiki, intebe zo mu ruganiriro , insakazamashusho ,indangururamajwi uruhande rundi ruriho imyenda inkweto n'ibindi .

Ni amapikipiki menshi ahagaze, ariho abayatwaye bose bambaye imipira isa itukura, ndetse n'ingofero byanditseho yego moto, hirya mu muhanda haratambuka imodoka y'umweru.

Ni icyapa cyamamaza kiri muri telefone mo hagati hakaba harimo umugabo uri guhererekanya ibicuruzwa n'umugore bari mu muhanda, yambaye agapira k'ubururu ndetse n'ingofero naho umukobwa afite imisatsi imanuka igiye inyuma.

Ameza y'umukara ateretse ku musambi intebe zo mu ruganiriro nziza ziri mu nzu ifite inkuta z'umweru, ikaba irimo umutako. Hirya gato hari undi muzenguruko w'intebe zo mu ruriro.

Inzu nziza igezweho igaragara mu gikoni cyayo, aho hari aho bogereza amasahani ndetse hejuru hari akabati gashinzwe kubikwamo ibikoresho byo mu nzu, k'uruhande hari icyuma gikonjesha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Ni icyumba cy'amarangi y'umweru mu gisenge ndetse no ku nkuta zacyo, iruhande hariho irido ry'umukara. Hari igitanda gishashe neza kiriho umusego kidafite ukiryamyeho. Umutwe wacyo urafunitse neza.

Ni imbuga nini yisanzuye irimo imodoka y'umutuku, ndetse n'inyubako igezweho ifite igorofa rimwe, amadirishya y'umukara inkingi ziyifashe, hakaba hari ahari idirishya ry'ubururu, akaba ari inzu ijyanye n'ikerekezo.

Inzu nziza ifite igisenge gikoze ku buryo bugezweho ikaba ifite inkuta z'umweru, irimo intebe zo mu ruganiriro ziriho imisego zidafite abantu bazicayemo.

Ibikuta by'umweru ndetse n'igisenge gisa gutyo, amatara y'icyerekezo ndetse n'amakaro arimo utubara tw'umukara nibyo biri kuranga iyi nzu, hakurya haragaragara idirishya rigizwe n'utwuma.

Ni inzu ifite imbuga ishashe neza mu buryo bugezweho ahashobora guhagarara ibinyabiziga, ifite igisenge cy'umukara ndetse n'inkingi zirimo ibaraza zikaba zigiye zifasheho utwuma tuzikingira.

Imbuga yisanzuye nziza irimo inzu zijyanye n'icyerekezo, ifite urugi rusakaye rw'umukara ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye, ifashwe n'inkingi nziza y'umweru umusenguruko wayo uriho utwuma.

Ni umugabo uri kumwenyura wahuje ibiganza biriho impeta, ndetse n'akaboko kariho isaha, yambaye ikote akaba ari inyuma y'inzu nziza y'urwererane igezweho.

Ni ibaraza ry'imbaho riri gutambukamo umugabo w'umuzungu wambaye ishati ikunje, imbere ye hari ubwatsi butoshye ndetse hakurya hagaragara inzu zijyanye n'icyerekezo, zifite uruhande rumwe rusa umweru.

Ni urugi rw'ikibaho n'ikizingiti cyarwo, rugize umuryango winjira mu bwiherero bwa kijyambere, bumwe buba bufite ikintu cy'umweru wicaraho, wamara kurangiza kwiherera, ukarekura amazi akajyana umwanda.

Ni inyubako irimo itara ryiza igaragaramo intebe zo mu ruriro ariko zidafite uzicayeho, iruhande rwayo hahagaze umuzungu ndetse n'umukobwa bari kugenda baganira hari ibyo ari kumwereka.

Inzu zigezweho zirangwa n'ubwiherero ndetse n'ubwogero bwiza bufite ibikuta by'amakaro n'amazi aturuka hejuru mu birere, hari akadirishya gato karimo utwuma tw'umukara n'kirahure kagaragara ndetse n'urwiherero rugezweho bicaraho.

Imbuga ishashemo amabuye y'amabara ikaba ari nziza, irimo inzu ifite inkingi izamutse ndetse ku mireko yayo hari utuntu tw'umweru, ifite amatiyo avana amazi ku mabati.

Ibaraza ry'inzu rizengurutswe n'utwuma dufashe ibirahuri hagati hakaba hagaragara igice gito cy'igisenge cy'umweru, hakurya hari indi nzu igezweho ikorotirije urukuta rwa ruriba ndetse n'ibiti biri hafi.

Ni inzu igaragaza imiturire myiza igezweho akaba ari iy'ikerekezo, ifite inkuta z'umweru, inzugi z'imbaho, ndetse hagati muri yo hashashemo agatapiri, hakurya haragaragarira idirishya riri kwinjiza urumuri.

Inyubako nziza igezweho ifite igisenge cy'umutuku ikaba irimo imbere harimo imbuga yisanzuye, igizwe n'umuryango wo ku rupangu munini usakaye agace kawo gato karafunguye.

Ni inyubako igizwe n'imiryango myinshi ndetse n'igorofa ikaba ari igezweho, haragaragaramo amatara ari kwaka ndetse ikaba igiye ifite indabyo zegereye ku twuma turi hejuru.

Ikiranga imiturire myiza, ni ugutura mu nzu zijyanye n'igihe, cyane cyane izigeretse dore ko zifasha mu kurondereza ubutaka, iyi ngiyi ifite inkingi ndetse no mu ibaraza ryayo hasize amarangi y'umweru, ikaba ifite urupangu rw'umukara.

Inzu ikoze neza yo guturamo ifite igisenge gitukura imbere mu ibaraza ryayo ifashwe n'inkingi naho ifite ibirahuri by'umukara n'imbuga yisanzuye ishashemo amakaro .

Imiturire myiza igezweho irangwa n'inzu zijyanye n'icyerekezo, iri hano ni nziza ifite igisenge cy'ubururu ikaba ifite inkingi mu ibaraza ryayo n'utwuma turi imbere ibirahuri by'umukara ifite imbuga nini yisanzuye.

Ni inyubako yisanzuye yabugenewe ifite igisenge cy'umweru aho ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ndetse n'abahitoreza imikino njyarugamba, harimo ibikoresho byifashishwa mu kwitoza ibyo byose.

Imiryango ibiri iri ku murongo irafunguye, imbere yayo hari ibibazanyo bikunze gushyirwamo imyenda bakayibyayandika kugira ngo abaguzi nibaza kure babiborohere guhitamo, n'imbere hari ubundi bucuruzi buri gukorerwamo.

Iguriro rusange ricuruza ibiribwa bitandukanye bigiye bipanze mu byiciro ahabanza hari ibyo kunywa hejuru hateretseho ibikombe birimo amata y'ifu, hari umuntu wateye umugongo utagaragara uri kugenda azenguruka ahitamo ibyo atahana.

Ni abantu babiri bicaye ku ntebe y'umweru, imbere yabo hari ameza ndetse bakikijwe n'abantu benshi barimo umukobwa wambaye agapira k'umweru, ndetse n'umugabo uri iruhande rwe wambaye ak'umutuku.

Iguriro rusange rihagazemo umugabo wambaye agapfukamunwa wikoze mu mifuka akaba atari umwirabura, ari kwitegereza ibiri imbere ye, hirya gato hari undi muntu ufite agapira gatukura ndetse n'abandi.

Ni iguriro rusange ririmo amacupa maremare cyane yiganjemo ay'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibindi, hahagazemo umugabo uri guhitamo, ufite akagare agenda asunika yamaze gushyiramo ibyo ari butahane.

Ni iguriro rusange ririmo ibikoresho byifashishwa mu gikoni, cyane cyane mu gukata ibintu runaka. Imbere yabo hari amakaroti, amashu bari kugenda bakata, mu rwego rwo kwereka abakiriya uko ibyo bikoresho byabo bikora.

Iguriro ry'imyenda ririmo abaturage batandukanye baje kwihahira, umwe afitiye telefone mu kaboko k'ibumoso yayishyize ku gutwi imbere ye hari umukobwa wambaye agapira k'umutuku bifashe amaboko ku gituza hirya hari abandi bantu bari gucagura imyenda.

Ni iduka rigaragaramo urujya n'uruza rw'abantu hari umugabo uri kuri terefone, iruhande rwe hari umudamu w'misatsi miremire iri inyuma, akaba agiye guhura n'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'umukara hagaragaramo ibyiganjemo amashakoshi.

Ni iguriro ry'ibicuruzwa byinshi bitandukanye bipanze mu kabati, bigiye biri ku murongo ku buryo uza agenda ahitamo icyo ashaka bitagoranye, hari umugabo wicaye uri kwitegereza icyo ari bujyane, hirya gato hari umuzungu wambaye agapira k'umweru n'umukara.

Ni mu iguriro ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hari umukobwa wambaye agapira gatukura, akaba yunamye, ari gutoranya ibyo atahana aho agenda abishyira mu ndobo y'umukara, hirya no hino bigiye bipanze mu tubati.

Ni isoko rinini ryagutse rigaragaramo imiryango myinshi iri ku murongo umuryango ubanza uri kwinjiramo umugabo wambaye umupira w'umukara, hejuru aharanga aho binjirira hari icyapa cy'ubururu cyanditse mu ndimi z'amahanga ngo kwinjira.

Mu muryango, hari uwambaye imyenda y'abaganga uri kuza yinjira. Umugabo utagaragara neza aricaye afite ikaramu mu ntoki ari kwandika mu gitabo. Naho aho hafi, hari umudamu witeye igitenge, ndetse n'igitambaro mu mutwe.

Ni abantu babiri bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza agaragara igice gito, hagati yabo harimo ingofero ndetse umwe ari gusobanurira undi, bombi bambayeye imipira y'umweru inyuma yabo hari ihema.

Abenshi muri bo bakenyeye ibitenge ndetse bateze n'ibitambaro mu mutwe, babiri bafite utwana duto, bose barerekana amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, hari abahagaze batari kugaragara neza.

Intoki zitagaragara neza nyirazo, zifite ikarita mu ntoki y'umuhondo, irimo hagati ikirangantego, yanditsemo amagambo agira uti "Repubulika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima, umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro".

Ni ikirango cy'ubururu kiriho ibishushanyo by'abantu batagaragara neza bari mu butaka, cyanditseho ngo mituweli ubwisungane mu kwivuza. Ubusanzwe iki ni igikorwa cyashyizweho na leta y'u Rwanda, mu rwego rwo kugirango abantu bajye babona ubuvuzi bubahendukiye.

Biganjemo ababyeyi usibye umugabo utagaragara neza wegamye inyuma ku gikuta. Abandi bicaye ku murongo harimo abakuze ndetse n'abato. Uwo ku ruhande akenyeye igitenge acyikiye akana k'agahungu, abenshi muri bo bafite n'amakaye mu ntoki.

Ni abagabo babiri bafite igipapuro kinini mu ntoki ubusanzwe gitangwa n'abantu bafite ubwizigame muri banki ubundi ukajya kugisabiraho amafaranga, inyuma yabo hari icyapa cy'urwego rw'igihugu rushinzwe ubwiteganyirize RSSB.

Ni ubwatsi butoshye bukikijwe n'indabyo ndetse n'amabuye y'imitako ari muri two, iruhande rwaho hari abaturage biganjemo abo igitsina gore bari imbere y’inzu y’umuhondo ifite igisenge cy'ubururu.

Ni ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize kigaragara kuri aya makarita azwi nka mituwere desante, ubusanzwe aya ngaya yifashishwa mu buvuzi kuri bose, ni gahunda y'igihugu yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo buri muturage wese age agerwaho n'ubuvuzi.

Uruhande rumwe ruriho umugabo wambaye ikoti ryiza ndetse amadarubindi n'agapfukamunwa urundi ruriho umudamu wambaye igitenge bose bakaba bafashe ku kintu kibikurizwaho amafaranga.

Ni icyapa cyamamaza kiri mu ishusho y'umweru cyandikishijeho amagambo y'icyatsi ari mu rurimi rw'amahanga, ugenekereje neza aragira ati ubwisungane mu kwivuza ndetse hasi hakagira hati ubuzima bwitaweho.

Mu iguriro rusange rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye hari ushinzwe kwakira abamaze guhitamo ibyo bacyura maze akabyandika muri mudasobwa bakamwishyura bifashishije ikoranabuhanga.

Mu iguriro rusange hahagazemo umukobwa wambaye agakoti, ndetse n'agapiramo imbere k'umweru ufite terefone mu ntoki. ari kugenda atoranya ibiribwa imbere y'akagare gashinzwe kugenda gashyirwamo ibyo umuntu yahisemo.

Ni akayira karimo hagati, gakikijwe n'utubati dupanzemo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa k'umukara. Muri ko nta muntu uri gutambukamo kakaba kari mu iguriro rusange. Ubusanzwe umuntu agacamo agenda ashima hanyuma, akajya kwishyurira aho basohokera.

Ni umukobwa wambaye ikoti ndetse n'agapira mo imbere k'umweru, afite telefone mu ntoki n'akandi kantu amaze guhitamo muri iri soko agiye kugura, afite akagare imbere ye aho agenda ahitamo ibicuruzwa bitandukanye agashyiramo aho ngaho.

Ni isoko ryiza rya kijyambere rigezweho, rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye byiza bifite isuku, harimo imbuga n'imbuto ndetse n'ibindi bisanzwe, mu kayira hagati aho abantu bagenda baca bahitamo ibyo batahana ntamuntu uri kugaragaramo.

m'iguriro rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye inyuma hari abantu benshi bakoze ikivunge barimo n'umwe ufite telefone uri gufotora imbere yabo hari umukobwa ufite akagare agenda agatembereza ashyiramo ibyo yahisemo gutahana.

Ni mu iguriro rinini ricuruza ibyo kwambarara ibikapu ndetse n'ibindi bikoresho. Hari umugabo watoranyije ibikapu byo kubikamo imyenda abishyira mu kagare hifashishwa mu kugenda umuntu ashyiramo ibyo yahisemo.

Mu muhanda hari amapikipiki abiri ahagaze akingirijwe n'igiti, k'uruhande hari guca abantu babiri, ndetse hepfo yaho gato hari abandi bahagaze. Imbere y'inyubako ndende hari ibishushanyo bibiri by'intare kimwe k'uruhande ikindi k'urundi.

Yateye umugongo inyuma akaba afite imisatsi miremire yambaye hose umukara imbere ye hari akuma, naho hari umugabo uri kugira ibyo atunganya w'umuzungu ndetse n'inyuma ye hari impuza mashusho.

Ni mu isoko hagati hagaragaramo ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye ndetse bigiye bipanze mu byiciro bimwe hakurya ibindi hakuno, hagati mu kayira abantu bacamo harimo akagare umuntu atoranya ashyiramo ibyo yahisemo.

Ni iguriro rusange rinini ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye hari ibipanze mu bikombe ndetse n'ibindi byo mu dukarito bikaba biri ku murongo hirya gato yo mu kayira aho abantu bake baba bahitamo hari umuntu utagaragara neza .